Abantu benshi bari mu nama, barimo abirabura ndetse n'abazungu. Imbere yabo hari ameza ariho impapuro, telefoni ndetse n'amacupa y'amazi y'inyange.

Abantu benshi bicaye mu nama ndetse bicaye mu matente, aya mashitingi bicayemo afite ibara ry'umweru, ndetse iruhande hari umugabo ufite kamera, ndetse ari gufotora, imbere y'aba bantu hari umuntu uhagaze ufite indangururamajwi uri kuvuga.

Abantu bicaye ku ntebe z'imbaho ni benshi kandi biganjemo abambaye amataburiya y'umweru ndetse n'abandi bambaye imipira y'ubururu.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe, yambaye umupira utukura. Arigusuhuza umugabo wicaye ubyibushye, ndetse iruhande rwe hari abasirikare babiri bambaye imyenda y'akazi. Iruhande hari abandi bantu bahahagaze.

Abantu bicaye mu nama, bicaye ku mirongo itatu barebana, imbere yabo hari ameza ariho amakayi, mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi y'inyange.

Abantu bicaye mu nama, imbere hari umugore n'umugabo imbere yabo hari ameza atukura ndetse ateretseho indangururamajwi n'amacupa y'amazi y'inyange.

Abantu bicaye ku ntebe zifite utwuma dufite ibara ry'umuhondo. Aba bantu imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cya shokora ndetse aya meza ateretseho mudasobwa n'amakayi.

Abantu bari mu nama biganjemo abagabo, imbere yabo hari ameza afite ibara ritukura ndetse ateretseho indangururamajwi n'amacupa y'amazi, inyuma yabo hari ibyapa byanditseho Kigali yacu.

Abantu bicaye bari mu nama, bicaye barebana ku bihande bitatu ndetse hagati yabo hari umugore uhagaze ufite indangururamajwi wambaye ikoti ry'umukara ndetse ari kubagezaho ubutumwa.

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'imikara, ni abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, imbere yabo hari ameza ateretseho amakayi ndetse n'amacupa y'amazi y'inyange.

Abantu babiri bicaye. Bicaye ku ntebe z'umukara umwe ni umupolisi yambaye imyenda y'akazi. Undi yambaye ishati y'umweru. Imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu benshi bari kwifotoza, bari mu cyumba kiberamo inama ndetse imbere yabo hari intebe zifite ibara ry'icyatsi, ndetse imbere yazo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi.

Abantu bicaye mu nama bose barakurikiye imbere yabo hari mudasobwa imbere y'aba bantu bose hari abandi bicaye, ahirengegeye ndetse imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umweru.

Abantu bari mu nama biganjemo abagore, ndetse imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'ubururu ndetse aya meza ateretseho amacupa y'amazi y'inyange.

Abantu bahagaze harimo abafashe ihene ndetse biganjemo abagore. Iruhande rwabo hari umudaso wambaye imyenda y'icyatsi. Inyuma yabo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi bicaye mu nama, bari mu nyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, bicaye barebana ndetse inyuma yabo hari abandi bahicaye ndetse harimo intebe z'umukara gusa.

Abaturage benshi bicaye inyuma y'imodoka zishinzwe gutwara abagenzi mu Mujyi wa Kigali, bari kubagezaho ibiganiro, imbere yabo hari umugore wambaye ipantaro y'umukara ndetse ufite ibisuko birebire niwe uri kubabwira.

Abantu benshi bicaye bari mu mahugurwa, bambaye imipira y'imyeru ndetse bose bafite amakaye, inyuma yabo hari umugore ufite imisatsi miremire uri kubereka ibyo bakora, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ku meza.

Abagore babiri bicaye ndetse bose bambaye amarineti, imbere yabo hari mudasobwa ndetse hari n'icupa ry'amazi riteretse ku meza.

Abantu bicaye mu nama ndetse biganjemo abambaye imyenda y'imikara, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara ndetse imbere yabo hari mudasobwa n'amazi ateretse ku meza.

Umugore uri gutanga ibiganiro ku bandi bantu benshi bicaye. Bicaye ku ntebe z'umweru ndetse uyu mugore uri gutanga ibiganiro, afite ibisuko birebire ndetse yambaye ipantaro y'umukara.

Abantu bicaye mu nama, ku murongo w'imbere hariho umugabo wambaye ikoti ndetse n'ishati y'umweru, iruhande rwe hari umugore wifashe neza wambaye ikanzu y'umukara irimo utudomo tw'umweru, imbere yabo hari ameza afite ibara ritukura ndetse ateretseho telefone.

Abantu bicaye biganjemo abakuze ndetse aha hantu bicaye hari ibirahuri byinshi bituma umuntu abasha kureba hanze.

Abantu bicaye mu nama, ku ntebe z'imbere hari abagabo babiri bambaye amakoti ndetse umwe afite indangururamajwi ari kuvuga, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi.

Abantu bicaye bari mu nama bicaye muburyo bugiye butandukanye, ku meza ndetse aya meza afite ibitambaro by'umukara ndetse ateretseho amacupa y'amazi, harimo intebe z'umukara ndetse ni iz'umweru bicayeho.

Abantu bicaye mu cyumba k'inama, iki cyumba kirimo ameza, afite ibitambaro by'umweru, ndetse hateretseho amakayi, ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu bari mu nama, bose barahagaze, uretse umuntu umwe wicaye. Imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru ndetse hateretseho amacupa y'amazi y'Inyange.

Abantu bicaye munama bicaye ku ntebe zisa ndetse inyuma hari umuryango wo gusohokeramo ufunguye imbere yaba bantu hari ameza afite ibara ritukura ndetse ateretseho indangururamajwi n'amacupa y'amazi.

Abaturage benshi biganjemo urubyiruko, bafite icyapa cyanditseho RBC, iki cyapa gifite ibara ry'umweru cyanditseho amagambo menshi y'Icyongereza, imbere yabo hari umupolisi wambaye umwenda w'akazi ndetse urimo amabara y'icyatsi.

Abantu bicaye mu nama, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umuhondo ndetse harimo abagore n'abagabo. Bose bateze amatwi barakurikiye. Ahantu bahagaze hafite ibara ry'ubururu.

Abagabo bicaye bambaye imipira isa y'ubururu iriho ikirangantego cy'urwanda kiri mu mabara atatu ubururu ,umuhondo ndetse n'icyatsi, umwe afite terefone ndetse ni kayi mu ntoki ze.

Umugore wambaye ishati y'umuhondo ndetse yambaye amarineti, ateze igitambaro. Imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa, ndetse afite indangururamajwi mu ntoki ze.

Umugore w'umwirabura wambaye ishati ifite ibara ry'umweru ndetse irimo utudomo tw'umukara afite indangururamajwi mu kaboko ke k'ibumoso.

Abantu bicaye ku ntebe z'umweru ni abirabura harimo umuzungu umwe, imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umukara ndetse ateretseho impapuro n'amacupa y'amazi y'Inyange.

Umugabo uhagaze, wambaye amarineti ndetse n'ishati n'ipantaro y'umukara. Ari kubwira abantu bicaye imbere ye ku ntebe z'imikara. Inyuma y'uyu mugabo hari ibyapa.

Abantu bicaye muri sitade, ni benshi biganjemo urubyiruko, iyi sitade ifite ibara ry'umuhondo ndetse aba bantu abenshi barifubitse, harakonje.

Abantu bicaye mu nama bose bahanze amaso imbere. Imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi y'inyange.

Abagore batatu bicaye ku ntebe z'umukara, aba bagore bari kureba imbere ndetse hateretse ameza afite ibara ritukura ndetse ateretseho amazi y'Inyange.

Abantu bicaye mu nama bateze amatwi ndetse imbere yabo hari ameza ariho igitambaro gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ku ruhande, n'umuhondo ku ruhande, hejuru hariho ururabo.

Abantu bicaye mu nama bakurikiye, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru kinini ndetse giteretseho amasakoshi y'abagore ndetse n'iruhande rwayo hateretse andi masakame.

Umugore wicaye ndetse afite imisatsi y'umukara miremire, yambaye ikanzu ndetse imbere ye hari ameza ateretseho terefone, amazi, ndetse n'kirahuri cyo kunywesha amazi. Inyuma ye hari abantu bahicaye.

Abantu bari mu nama baricaye ndetse imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro bifite biteretseho amazi y'Inyange ndetse na mudasobwa hari umugabo uhagaze uri kubabwira ndetse bose bateze amatwi.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi, imbere yabo hari abandi bicaye barebana nabo babiri umugore n'umugabo. Umugabo yambaye ikoti ry'umukara ndetse afite ikayi mu biganza bye bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru ndetse inyuma yabo hari icyapa cyamamaza.

Icyumba kiberamo inama kirimo abantu benshi bicaye ku ntebe z'umweru ndetse iki cyumba kiri kwakamo amatara bose bari kureba imbere bateze amatwi umuntu uri kubabwira.

Muri sitade harimo abantu benshi bahagaze bari gufana, ku gice cy'inyuma muri sitade aho bita muri viyayipi harimo abandi bicaye ndetse biganjemo abambaye imipira ya oranje.

Abantu bicaye mu nama, imbere hari umugore ufite imisatsi myinshi ndetse ufite ikarita imwemerera kuba yaje muri iyi nama, ayambaye mu ijosi ifite umugozi w'umweru. Uyu mugore imbere ye hari igipapuro ndetse n'icupa ry'amazi.

Abantu bicaye mu nama, barakurikiye. Imbere yabo hari ameza manini, ateretseho amacupa y'amazi ndetse n'amaji by'Inyange ndetse hariho na mudasobwa.

Abantu benshi bicaye biganjemo abagabo ndetse bambaye amakoti, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umukara aya meza ateretseho amacupa y'amazi.

Abantu bicaye ni abagore gusa ndetse bambaye imikenyero, harimo uwambaye amarinete ndetse afite imisatsi miremire, inyuma yabo hari intebe ziticayeho abantu.

Abantu bicaye mu nama ndetse bari guseka, baritonze, barakurikiye, imbere yabo hateretse mudasobwa imwe ndetse n'amacupa y'amazi y'inyange.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe z'imikara ndetse imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umukara n'umweru, iki cyumba cy'inama kiri kwakamo amatara.

Abantu bahagaze ari benshi bakoze ikizeru, biganjemo urubyiruko ndetse hagati yabo hari umugabo ufite indangururamajwi, uri kubabwira wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abantu benshi bicaye ndetse bateze amatwi ku muntu uri imbere uri kubabwira. Iruhande rw'abo bantu bicaye, hari abandi bahagaze bitonze, nabo bakurikiye.

Abantu bicaye mu nama barakurikiye, higanjemo abagore, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro gifite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hateretseho amacupa y'amazi.

Abantu bicaye ndetse bari mu nama, imbere yabo hari ameza ateretseho amakayi ndetse n'amacupa y'amazi, aba bantu barakurikiye ndetse imbere hari umuntu uri kubabwira.

Umugabo wambaye amarineti ndetse ufite bike mu kaboko k'iburyo, arahagaze ndetse yambaye ishati irimo imirongo, iruhande rwe hari abandi bagabo batatu bicaye ndetse imbere yabo hari amakayi bose baritonze.

Abantu bicaye ndetse bicaye barebana, bari kureba ubutumwa bwa RURA ndetse biri kuri televiziyo imbere byandikishijwe amagambo y'ibara ry'umweru, biri mu ibara ry'ubururu imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi.

Imbuga nini iri kugenderamo abantu, iyi mbuga yubakishijwe amapave ndetse hari intebe zabugenewe, zagenewe abantu kuza bakaziruhukiraho, aha ni mu mujyi.

Icyapa cyanditseho amagambo agira ati, urubuga rureberwaho amakuru ku butaka, Repubulika y'u Rwanda, harakomeza hagira hati: "Abo turi bo" iyi sisitemu itanga ku buryo bwihuse amakuru y'ingenzi ku butaka.

Akazu gatoya kubatse iruhande rw'umunara, gafite umuryango w'ubururu ndetse kubabakishijwe amatafari ahiye, iruhande aha ku munara hari icyuma gifite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye umupira wanditseho amagambo imbere, yambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, ndetse yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, imbere ye hari umuryango ufunguye ukoreramo banki, iyi banki ifite ibirango bifite amabara y'ubururu.

Umunara muremure ufite ibara ry'umweru n'umutuku; uyu munara uriho amatara menshi ndetse hari kugaragara ikirere cyiganjemo ibicu by'umweru.

Umusore uhagaze wambaye ishati ya shokora ndetse yambaye inkweto za kamambiri zifunguye, ahagaze mu iduka ricuruza ibikinisho by'abana, iruhande rwe hateretse amasafuriya.

Itangazo rya rura riburira abakoresha gazi uko bagomba kwitwararika iri tangazo ryanditseho amagambo agira ati "ikoreshwa rya gazi mu rugo".

Icyapa gishushanyijeho, cyanditseho amagambo agira ati "umunsi mwiza w'umurimo" Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo, ibifurije umunsi mwiza w'umurimo, iki cyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda.

Ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, iri ni itangazo rya Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, iri tangazo riragira riti iminsi y'ikiruhuko rusange.

Amagambo agira ati'' menyekanisha uyu munsi, umusoro ku nyungu za bibiri na makumyabiri nagatatu'' wishyure bitarenze tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Icyapa cyanditseho irembo, iki cyapa gifite ibara ry'ubururu, ndetse cyanditseho amagambo agira ati: ''serivisi nshya ku rubuga irembo govu'', iki cyapa kirakomeza kigira kiti:''ikigo gitanga iyi serivisi, Minisiteri ya siporo, icyiciro ni icya siporo, amazina ya serivisi''.

Abantu batatu. Babiri n'abahungu bambaye udupfukamunwa ndetse bari kureba muri telefone. Undi ni umukobwa yambaye agapfukamunwa ndetse afite mudasobwa mu ntoki ze.

Icyapa cyamamaza cyanditseho tengamara na teveya, kiriho umukobwa wambaye ikanzu y'umweru ndetse imbere ye hari mudasobwa, mu kaboko ke k'iburyo harimo telefone ndetse ari kwifotora.

Umwarimu ndetse n'abanyeshuri, abanyeshuri baricaye bambaye udupfukamunwa ndetse imbere yabo hateretse mudasobwa, umwarimu arahagaze nawe yambaye agapfukamunwa ari kubereka uko bikoreshwa.

Icyapa cyamamaza serivise z'Irembo. Iki cyapa gifite ibara ry'ubururu ndetse cyandikishijwemo inyuguti mu ibara ry'umweru. Iki cyapa cyanditseho amagambo agira ati serivise nshya ku rubuga Irembo govu.

Icyapa cy'Irembo. Iki cyapa cyanditseho ijambo rigira riti: "Byikorerare". Intambwe ya kabiri. Kanda kuri kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga.

Icyapa cyanditseho amagambo agira ati:" gushimira abasora ku nshuro ya makumyabiri na rimwe. Ukwezi ko gushimira abasora umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, saba fagitire ibiyemu, wubake u Rwanda''.

Aradibi, Aradibi ni ikigo gishinzwe ubukungu n'iterambere mu gihugu cy'u Rwanda. Iki kigo gifite ibirango bifite amabara atatu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi bifite imirongo imanuka.

Icyapa cy'irembo kiri mu ibara ry'ubururu, kiriho amagambo agira ati "serivisi zikunze gusabwa iya mbere mituweli, iya kabiri icyemezo cy'amavuko, icya gatatu kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo.

Umunara muremure ufite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umutuku, hejuru hariho amatara ndetse hariho na antene ndetse iruhande hari igiti kirekire kigaragara agace gatoya.

Itangazo rya minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo hariho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse iri tangazo riragira riti amasaha y'akazi mashya minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo iributsa abaturarwanda amasaha y'akazi yavuguruwe azatangira gukurikizwa.

Inzu yubakishije imbaho ndetse iriho ibyapa byinshi byamamaza serivise zitangirwa muri aka kazu, hariho iz'irembo, iza ekwiti, iza banke ofu Kigali.

Umunara muremure ufite ibara ry'umweru, ndetse n'umutuku ahantu uri harazitiye ndetse hazitiwe n'ibyuma, ibyuma biriho ibyapa bya emutiyeni bifite amabara y'umuhondo.

Icyapa cy'irembo cyerekana serivisi, iki cyapa cyanditseho amagambo agira ati intambwe ya kabiri, kanda kuri kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, iki cyapa gifite ishusho y'umweru ndetse amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu.

Itangazo rya Rwanda Reveni, riteganyije guca kuri RBA. Iri tangazo riragira riti "ikiganiro cya Rwanda Reveni Otoriti, itariki ntarengwa yo kwishyura umusoro w'ipatanti ry'igihembwe cya nyuma, ni tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi, bibiri na makumyabiri na kane.

Umuhanda nyabagendwa utarimo ibinyabiziga. Iruhande rw'uyu muhanda haparitse imodoka ebyiri, zifite ibara ry'umweru, zaditseho toyota. Izi modoka ziparitse inyuma y'itara riri kumuhanda.

Urupangu rwubakishije amatafari ahiye ndetse ruteyemo ipoto ririho itara. Hariho insinga zitanga umuriro mu bice bitandukanye ndetse iruhande rw'iki gipangu hateye ibiti.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto nyinshi, hari iziparitse iruhande rw'umuhanda ndetse harimo n'iziri kugenda, aha hari abantu benshi bari kwambuka, aha ni Nyabugogo.

Urupangu rurerure rufite irangi ry'umweru. Ndetse ruriho amatara hejuru. Inyuma yarwo hari umunara uciyeho insinga zijyana amashanyarazi mu byerekezo bitandukanye. Uru rupangu hejuru yarwo hariho senyenge zibuza abantu kuhatambuka.

Ibiti bibiri bishinze iruhande rw'umuhanda. Ibi biti biriho insinga zitanga amashanyarazi mu byerekezo bitandukanye, iruhande rw'ibi biti hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'ikindi giteye irangi.

Umunara muremure ufite ibara ry'umweru uriho insinga z'amashanyarazi zijya mu byerekezo bitandukanye ndetse uragaragaza igicu gifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibicu by'umweru.

Igiti cy'ipoto kiriho insinga nyinshi zijyana amashanyarazi mu byerekezo bitandukanye; iruhande rw'iyi poto hari inzu zihubatse zifite ibara ry'umuhondo ndetse inyuma hateye ibiti birebire.

Umuhanda urimo moto ebyiri abantu bazitwaye bambaye ibikapu mu mugongo ndetse harimo n'abagenzi bari gutambuka, iruhande hateye ibiti ndetse hari na sitasiyo.

Umuhanda nyabagendwa, ugaragara igice kimwe cy'umuhanda. Iruhande rw'uyu muhanda hari inzira y'abanyamaguru, ndetse iriho ibifoto biriho amatara, ndetse biriho insinga zijyana amashanyarazi mu byerekezo bitandukanye.

Umuntu wambaye isarubeti y'ubururu ndetse n'ijire y'icyatsi, yambaye ingofero yagenewe abakozi b'abafundi cyangwa bo mu mashanyarazi, ifite ibara ry'umweru, ari hejuru ku ipoto, ari gukora amashanyarazi.

Umuhanda ugaragara igice kimwe ndetse iruhande rwawo hariho inzira y'abanyamaguru, wambutse ku nzira y'abanyamaguru, hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse kiriho ibyatsi byinshi.

Igiti kiriho insinga nyinshi z'amashanyarazi ajya mu byerekezo bitandukanye, iruhande rw'iki giti hari uruzitiro rwubakishije buroke ndetse iki gipangu kiriho nimero mirongo itatu.

Abantu babiri bahagaze iruhande rw'umukozi wa MTN, ufite ijire y'umuhondo ndetse bari mu mutaka wa MTN ufite ibara ry'umuhondo. Imbere yabo hari igiti kiriho insinga z'amashanyarazi, ajya mu byerekezo bitandukanye.

Imbuga nini yubakishije amapave ndetse iruhande hari igipangu cyanditseho amagambo agira ati Nyarugenge, ibi ni ibitaro bya Nyarugenge.

Imodoka ifite ibara ry'umweru, yanditseho amagambo agira ati'' imbangukiragutabara, ibitaro bya sehashika'' izi aya magambo yandikishijwe, ibara ritukura.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu ndetse cyerekana aha hariho farumasi aho bafatira imiti ndetse imbere yaho hari inzu ifite amabara y'umuhondo ndetse iparitseho imodoka imbere yayo.

Imodoka nyinshi ziparitse zisa ndetse zifite ibara ry'umweru zifite utubara tw'umutuku ndetse n'ubururu izi modoka ni imbangukiragutabara zifashishwa mu kugeza abarwaye kwa muganga.

Abantu bicaye bategereje ubufasha, abantu ni benshi ndetse bicaye ku ntebe z'ibiti, hariho umugore uryamye ukenyeye igitenge, aha ni kwa muganga.

Umugabo, w'umwirabura. Wambaye ishati y'abacamanza, ifite ibara ry'umutuku, ndetse n'mweru mu gatuza. Yambariyemo ishati, ifite ibara ry'ubururu.

Umugabo w'umwirabura, wambaye ingofero irimo imirongo ibiri y'umuhondo. Ndetse yambaye amarineti, yambaye ikanzu itukura irimo ibara ry'umweru mu gatuza. Uyu mugabo ari kureba imbere.

Abantu bari mu rukiko umwe ni umugororwa yambaye umwenda w'iroze ndetse ahagararanye n'umugabo wambaye ikanzu y'umukara iriho amabara y'umweru, imbere yabo hari akameza kariho impapuro.

Abantu bambaye imyenda y'abagororwa, bari kuzamuka iruhande rw'inyubako ndende ifite amatafari ahiye ndetse iyi niyo gereza babamo.

Umugabo wambaye imyenda y'iroze, ahagaze hagati y'abaturage bicaye ku ntebe ndetse n'abunzi bicaye ku ntebe z'urubaho ndetse imbere yabo hari ameza.

Abantu batanu bahagaze. Batatu ni abagabo ndetse abandi babiri n'abagore. Abagabo bambaye amakoti ndetse na karuvati, inyuma yabo hari icyapa gifite ibara ry'ubururu.

Umugabo w'umwirabura wambaye iroza, yambaye amarineti ndetse inyuma ye hari urupapuro rwanditseho ruri ku gikuta, ndetse uyu mugabo ari kureba imbere.

Umugabo w’umwirabura, yambaye ikanzu y'abacamanza ifite ibara ritukura, ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru mu gatuza, yambaye ishati ndetse yambaye na karuvati ari kureba imbere.

Abagabo babiri bambaye amakanzu y'umukara ndetse arimo ibara ry'umweru, iruhande rwabo hari umugabo wambaye amarinete ndetse n'umwenda w'iroze ari kubareba bari kumusobanurira.

Abantu bicaye mu nama ni batatu, umwe yambaye ikote ry'ubururu ndetse afite indangururamajwi mu ntoki ze, bicaye ku ntebe z'umukara. Imbere yabo hari ameza afite ibara rya shokora ateretseho impapuro ndetse n'amazi y'inyange.

Imodoka ebyiri zitwara imfungwa, izi modoka zanditseho inyuguti eshatu RCS, izi modoka zagenewe gutwara imfungwa; ndetse ziri kuva mu modoka zambaye amapingu ndetse n'udupfukamunwa.

Abagabo babiri bambaye iroze ndetse bambaye amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara. Bicaye ku ntebe y'urubaho inyuma yabo hicaye abaturage baje kumva uko urubanza rugenda.

Abantu b'abagororwa bambaye imyenda y'iroza. Bicaye ku ntebe, baritonze, bakurikiye amakuru. Televiziyo bari kureberaho, ifashe ku gikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Abantu bicaye ku ntebe y'igiti, aba bitwa abunzi kubera akantu bambaye kabaranga, ndetse imbere yabo hari ameza, ndetse n'abaturage babakikije.

Abantu bari ku murongo bari kwifotoza biganjemo abasirikare bambaye imyenda y'amakoti ya gisirikare ndetse hagati yabo harimo abagabo babiri bambaye amakoti n'undi umwe w'umugore wambaye umwenda w'abacamanza.

Umugore w'umwirabura ufite umusatsi mukeya ndetse yambaye marineti yambaye ikanzu yabacamanza itukura ndetse ifite ibara ry'umweru mu gatuza.

Abantu bari gusohoka, bafite ibikapu, umwe yambaye ikabutura, abandi bambaye amapantaro, bari gusohoka kuri gereza ya Nyarugenge, iyi gereza ni ndende, yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite n'uturange tw'umuhondo.

Umugabo witwa kizito mihigo yambaye umwenda w'iroze, ndetse aricaye ari gusoma igitabo. Iruhande rwe hari abandi bantu bicaye bamuhanze amaso.

Umugabo wambaye iroze ndetse yambaye agapfukamunwa k'umweru, afite ikayi mu ntoki ze, ifite ibara ry'ubururu ariyo regisitara yicaye ku ntebe y'umukara.

Abantu bari kurahira akaboko kabo k'ibumoso gafashe ku idarapo ry'u rwanda ndetse akaboko k'iburyo karamanitse; imbere yabo hari abagabo bambaye amashati afite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru mu gatuza bicaye bari kumva indahiro aba bantu bari kubagezaho.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bose bambaye imyenda y'abacamanza, ariyo amakanzu afite ibara ry'umukara, ndetse n'ibara ry'umweru mu gatuza.

Umugabo w'umwirabura wambaye amarineti, yambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru. Inyuma ye hari abandi bantu bahicaye ndetse umuryango waho urafunguye.

Abagabo batatu, bahagaze mu rukiko, babiri bambaye amakanzu y'umukara ndetse afite ibara ry'umweru mu gatuza, aba ni Abavoka, hagati yabo hari umugabo wambaye ikoti ndetse n'agapfukamunwa, inyuma yabo hari intebe.

Umugabo w'umwirabura ufite umusatsi muke ari kureba imbere, yambaye ikoti ry'ubururu ndetse yambaye ishati na karuvati, imbere ye hari indangururamajwi ndetse inyuma ye hari igikuta gifite ibara ry'ubururu.

Umugore w'umucamanza yambaye ingofero ifite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umuhondo, urimo utubara dutoya tw'umweru, yambaye amarineti ndetse yambaye ikanzu y'abacamanza ifite ibara ritukura ndetse n'ibara ry'umweru mu gatuza.

Umugabo w'umwirabura, uri kureba imbere. Yambaye ikanzu yab'abacamanza, ifite ibara ritukura, umukara, ndetse n'umweru mu gatuza. Yambaye ishati ndetse na karuvati.

Abapolisi bambaye imyenda y'akazi, bose bafite imbunda ndetse n'udukayi dutoya, inyuma yabo haparitse imodoka ndetse hirya hateye ibiti.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro gifite ibara ritukura ndetse kiriho n'igipapuro cy'umweru cyitwa kizimyamwoto gifite umupira mu ibara ry'umukara bafataho igihe bari kuzimya.

Umupolisi uhagaze iruhande rw'umuhanda, yambaye umwenda w'akazi ufite ibara ry'umukara ndetse urimo imirongo y'ibara ry'icyatsi, hejuru handitseho polisi, imbere ye hari imodoka ya tagisi, ifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo ku gice cyo hasi.

Kizimyamwoto ifite ibara ry'umuhutuku, ndetse iki gikoresho cyifashishwa mu kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro, iyi kizimyamwoto ifite umupira w'umukara bafata igihe bari kuzimya.

Abagabo bambaye amasarubeti y'umukara ndetse aciyemo imirongo y'icyatsi, bambaye ingofero z'umweru, zifashishwa mu kurinda umutwe, bari kuzimya imodoka yatatswe n'inkongi y'umuriro.

Umuhanda urimo umumotari wambaye umwenda w'akazi ndetse yambaye ikote rifite ibara ry'icyatsi, iruhande rwe hari imodoka ihari ndetse irahagaze, iruhande rw'umuhanda hateye ibiti ndetse hari n'amapoto ariho amatara.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro, cyitwa kizimyamwoto, gifite ibara ritukura ndetse gifite umugozi w'umukara, niwo bafata igihe bari kuzimya.

Abagabo babiri bari kuzimya inkongi y'umuriro ndetse inyuma yabo hari umupolisi, aba bagabo bambaye kasike zifite ibara ry'umweru ndetse n'imyenda yabugenewe ifite ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi.

Imodoka ya polisi ifite ibara ry'umukara n'umweru, inyuma hicaye abapolisi ndetse bafite imbunda, inyuma y'iyi modoka hari moto ebyiri nazo z'abapolisi bambaye imyenda y'imikara ifite amabara y'icyatsi.

Impapuro ziri hagati y'ibiganza bibiri, zifashishwaga mu gutora, ziriho amafoto atatu y'abakandida, biyamamarizaga kuyobora repubulika y'u Rwanda ; muri bibiri na makumyabiri na kane.

Abantu benshi bicaye ndetse hari n'abahagaze inyuma yabo, imbere y'aba bantu bose hari abantu batatu bahagaze, ni abagabo, babiri bambaye amakoti undi yambaye umupira wanditseho indi ntambwe.

Perezida wa repubulika Paul Kagame, ari gutanga ikiganiro. Imbere hari ameza ariho ikirangantego cy'u Rwanda, ndetse inyuma ye hari ameza ariho indangururamajwi, ndetse n'idarapo ry'u Rwanda.

Abantu bari kwamamaza, bambaye imipira y'umweru, iriho ibirango bya FPR, ndetse hariho igipfunsi, bafite ifoto iriho umukandida wa Repubulika Paul Kagame.

Umugore uri kugenda wambaye amarineti ndetse uteze igitambaro, inyuma ye hari abasore batatu bari kumugenda inyuma, ndetse inyuma yabo hari icyapa cyanditseho referandumu.

Umugore wambaye ishati y'umweru iciye amaboko, akenyeye igitenge ndetse afashe akantu k'umweru mu ntoki ze, inyuma ye hari imodoka ifite ibara ry'umukara, ifite umuryango ufunguye ni yo avuyemo.

Abantu bambaye imipira y'imyeru, imbere yabo hari ameza ateretseho ibipapuro byinshi byifashishijwe mu matora. Ndetse iruhande hari indobo bari gushyiramo ibipapuro, igihe bamaze kubara amajwi.

Umugore w'umwirabura wicaye mu ntebe ifite ibara ry'umukara, uyu mugore yambaye ikote rifite ibara ry'ubururu ndetse yambariyemo ishati y'umweru, imbere ye hari indangururamajwi ndetse n'icupa ry'amazi iruhande rwe hari idarapo ry'u Rwanda.

Umugabo w'umwirabura wambaye ishati yakorewe mu rwanda afite indangururamajwi mu kaboko k'iburyo ke, ndetse inyuma ye hari abandi bagabo.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul KAGAME ari muri stade, ahateraniye abantu benshi cyane batagaragara neza kubera ubwinshi bwabo, imbere ye hari indangururamajwi ndetse n'ameza afasheho.

Igipapuro kiriho umukandida witwa Mpayimana Philippe. Uyu yiyamamarizaga kuyobora repubulika y' u Rwanda mu mwaka w ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Iki cyapa kiriho ifoto ye ndetse cyanditseho amagambo agira ati indi ntambwe.

Abantu batatu bahagaze bari guseka, abagore babiri ndetse n'umugabo umwe wambaye ikote na karuvati ndetse umugore umwe yambaye amarinete ndetse akaboko ke k'ibumoso kariho isaha.

Abantu bambaye amashati y'umweru bamanitse akaboko, inyuma yabo hari abandi bambaye imipira y'icyatsi, bari kwamamaza uyu mukandida uri imbere, yiyamamarije kuyobora Repubulika y'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Umugore wicaye mu biro, yicaye ku ntebe y'umukara imbere ye hari ameza ariho amakayi ndetse n'amakaramu ndetse hariho amacupa y'Inyange y'amazi. Inyuma ye hari ibirango by'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo w'umwirabura, wambaye amarinete, yambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, ndetse na karuvati. Inyuma ye hari umugore uhahagaze ufite agasatsi gakeya.

Umugabo w'umwirabura wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru na karuvati. Inyuma ye hari ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda. Imbere ye hateretse amazi ndetse n'ikirahure.

Idarapo rya FPR Inkotanyi, iri darapo rigizwe n'amabara atatu ubururu, umweru ndetse n'umutuku, iri darapo ryanditsemo inyuguti F P R bisobanuye FPR.

Amajwi yaranze amatora ya bibiri na makumyabiri na kane. Aba ni abakandida batatu biyamamarizaga kuyobora Repubulika y'u Rwanda harimo Paul Kagame, Frank Habineza na Philippe Mpayimana.

Abagore n'abagabo, bari kurahira, akaboko kabo k'iburyo, karamanitse, ndetse akandi kaboko k'ibumoso, gafashe ku idarapo, iri darapo ni iry'igihugu cy'u Rwanda.

Perezida Paul Kagame yambaye ingofero ndetse na marineti. Yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari abaturage benshi bari kwamamaza.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara, harimo Jeannette Kagame. Yambaye amarinete. Aha imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umukara. Ndetse yicaranye n'umugabo wambaye ikote.

Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru ndetse na karuvate. Inyuma ye hari umugore we madamu Jeannette Kagame yambaye umukenyero w'ubururu, bari gutambuka ndetse ahari ni muri sitade.

Umugabo w'umwirabura wambaye ikote, ndetse yambaye n'ishati y'mirongo. Yicaye mu ntebe ifite ibara ry'umukara, ndetse afashe ikaramu mu ntoki ze. Ari kubwira abantu.

Ikiganza gifashe igipapuro cy'itora, aha hari ibipapuro byakoreshwaga mu gutora abayobozi bahataniraga kuyobora Repubulika y'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, hariho amafoto yabo.

Umugore wambaye ikanzu y'umweru, ndetse n'umugabo wambaye ikoti ndetse n'ishati y'umweru. Bari kugenda basuhuza abantu. Iruhande rwabo hari ababacungira umutekano. Inyuma yabo hari abantu benshi babakurikiye.

Abantu benshi bafite amadarapo ya Efuperi hari gutambuka umuyobozi wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hari abamurinda bambaye imyenda y'umukara yanditseho Sitiyu.

Abantu bicaye bambaye imipira y'icyatsi, ndetse iruhande rwabo hari umukobwa wambaye ikoti ry'umukara ipantaro y'ubururu ndetse witandiye, ni umwisilamu.

Umugabo wambaye ikoti n'ipantaro ry'ubururu ndetse yambariyemo umupira w'umweru, uriho ifoto. Uyu ni Habineza yari ari kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane inyuma ye hicaye abantu.

Abantu biganjemo abagabo bambaye amakote bari kurahira, akaboko k'iburyo karamanitse, akaboko k'ibumoso gafashe ku itarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ebyiri ndetse n'indi ya gatatu iri kubisikana nazo, iyi modoka ya gatatu yagenewe gutwara imizigo ndetse iriho ibyapa byamamaza, uyu muhanda urimo moto zitwaye abagenzi.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ebyiri zifite ibara ry'umweru ziri kubisikana, iruhande rw'uyu muhanda hari inzira y'abanyamaguru irimo abagabo babiri bari kugenda umwe ufite agafuka.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ndetse n'imodoka uyu muhanda ufite ibice bibiri bijya mu cyerekezo kimwe ndetse undi muhanda nawo ufite ibice bibiri bijya mu cyerekezo kimwe, ibi bice bitandukanyijwe na karondorondo ku butaka ndetse gateyemo imikindo.

Umuhanda nyabagendwa, urimo imodoka ifite ibara ry'umweru yagenewe gutwara imizigo, ndetse iruhande rw'uyu muhanda mu nzira y'abanyamaguru harimo umugabo wikoreye umufuka.

Umuntu uri ku igare, iri gare ni irya siporo ndetse ari guca munsi y'ikiraro giherereye ku Kinamba, iki kiraro hejuru hari undi muhanda.

Umuhanda nyabagendwa, urimo imodoka, yagenewe gutwara imizigo, ifite ibara ry'umuhondo. Iruhande rw'imodoka munzira nyabagendwa, harimo umuntu uri kugenda. Ibumoso bw'imodoka, hateye ibiti iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka yagenewe gutwara amabuye, umucanga ndetse n'ibindi. Iyi modoka ifite ibara ry'umweru, ndetse imbere yaho hari imodoka zihaparitse.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ya kwasiteri, yagenewe gutwara abantu. Ifite ibara ry'umweru. Ndetse iruhande rw'uyu muhanda hateye ibiti. Iburyo bw'aho hari umuyoboro w'amazi.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka imwe n'amagare abiri ari kubisikana, aya magare atwaye abagenzi, iyi modoka ifite ibara ry'umweru ndetse iruhande rw'uyu muhanda hateye ibiti.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ebyiri ziri kujya mu cyerekezo kimwe zifite ibara ry'umutuku ndetse izi moto ni iza bateri ni izigezweho ziri kubisikana n'imodoka ifite ibara ry'umweru, iruhande rw'umuhanda hari kugendera abanyamaguru.

Imodoka iparitse, yagenewe gutwara abagenzi mu Mujyi wa Kigali, iyi modoka ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, imbere yayo hari izindi modoka, ziri kumurongo.

Moto ifite ibara ritukura iri kugenda mu muhanda nyabagendwa ndetse yicayeho umumotari wambaye ijire y'ubururu ndetse n'umuhondo, inyuma ye hari umugabo uri gusunika akagare kifashishwa mu gutwara imizigo.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka zitwara imizigo, imwe iraparitse bari gushyiramo imizigo ndetse indi iri kugenda ifite ibara ry'ubururu, imbere yayo hari indi irimo umuntu uhagaze mu muryango w'inyuma.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ifite ibara ry'ubururu, ndetse motari ahetse umugenzi. Iruhande rw'umuhanda hari umurongo urombereje w'umweru, ndetse ugiye ku gisate cyo hirya hari akarondorondo k'ubutaka gateyemo ubusitani ndetse n'imikindo.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka eshatu zifite amabara atandukanye imwe n'umweru itwara abantu indi ni umutuku ndetse indi n'ubururu igaragara ku gice cy'inyuma.

Umuhanda ugaragara igice kimwe ndetse urimo imodoka ebyiri zitwara abagenzi ku buryo bwihariye, imodoka imwe ifite ibara ry'umweru ndetse n'akabara gatoya k'umuhondo, indi ifite ibara ry'umweru gusa.

Indobo ifite ibara ry'icyatsi. iruhande rwayo, hari akagare basunikaho imizigo. Ndetse hari abamotari baparitse iruhande, bafite kasike z'imihondo. Ndetse hateye igiti kirekire.

Abamotari benshi baparitse iruhande rw'umuhanda bambaye amajire afite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu bose bambaye kasike ndetse inyuma yabo hari inzu iri kwaka amatara.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ebyiri ziri kubisikana, zifite ibara ry'umweru, ndetse hagati yazo harimo moto itwaye umugenzi, iburyo bw'umuhanda hateyeho ibiti.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ndetse n'imodoka, iruhande rw'uyu muhanda hari akayira k'abanyamaguru karimo abantu bari kugenda ndetse ibumoso bw'uyu muhanda hateye ibiti birebire.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ifite amapine atatu, ifite ibara ry'umweru, iyi moto yagenewe gutwara imizigo. Iri kubisikana n'imodoka ifite ibara ry'umweru ya Toyota ndetse inyuma y'iyi moto hari indi modoka nini, iruhande rw'uyu muhanda hateye ibiti.

Umuhanda nyabagendwa urimo umugabo uri gusunika igare ririho imifuka, uyu mugabo yambaye ingofero y'umweru, iburyo bw'uyu muhanda hari umuyoboro w'amazi ndetse ibumoso bw'umuhanda hateye ibiti birebire.

Imodoka ziparitse imbere y'inyubako iriho ibyapa byamamaza mango, inyuma y'izi modoka hari kunyura umuntu, ndetse ari kugendera ku mapavi; n'inzira z'abanyamaguru.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ebyiri zifite amabara y'umweru, imwe yagenewe gutwara imizigo, inyuma ifite ibyuma bituma ibasha kwikorera imizigo myinshi, imbere yayo hari moto iri kugenda iriho umumotari wenyine.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ifite ibara ritukura, yitwa Hoho. Iyi modoka iruhande rwayo hari umuyoboro w'amazi. Ndetse ku kindi gihande hateyeho ibiti ku ruhande rw'umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka igenewe gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali. Iyi modoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi. Iburyo bwayo hari ibiti biteye iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ifite ibara ry'ubururu ndetse iyi moto ifite amapine atatu, yagenewe gutwara imizigo, imbere yayo hari imodoka ifite ibara ry'umuhondo yagenewe gutwara imicanga, amabuye ndetse n'ibindi.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ebyiri ndetse n'imodoka ifite ibara ritukura, ikindi gice cy'umuhanda kirimo moto iri kugenda ndetse uyu muhanda utandukanyijwe n'akarondorondo k'ubutaka gateyemo ibyatsi ndetse n'imikindo.

Imodoka yagenewe gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu, iruhande rwayo hari amakese menshi batwaramo inzoga ndetse na fanta, inyuma hari inzu ifite ibirahuri.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ipakiye imizigo. Iyi modoka ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, yanditseho amagambo menshi mu mabara atandukanye. Iruhande rw'uyu muhanda hari inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda urimo moto itwaye umumotari gusa ndetse motari afite kasike z'umuhondo, iruhande rw'umuhanda hari abantu bari kuhagendera ndetse iruhande rw'abo bantu hateye ibiti birebire.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ifite amapine atatu, ifite ibara ry'ubururu, iyi moto yagenewe gutwara imizigo, iruhande rwayo hari moto iriho umugenzi ndetse motari n'umugenzi bambaye kasike zifite ibara ritukura.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto n'imodoka biri kubisikana, iyi moto ifite ibara ry'umutuku ndetse iriho motari gusa, imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse ni ifuso yagenewe gutwara imizigo, iruhande rw'umuhanda hari inzira z'abanyamaguru.

Imodoka iri mu muhanda ni igikamyo kiri kwaka amatara, ndetse aya matara harimo ayaka umuhondo ndetse n'umutuku, kiri kugenda mu muhanda cyonyine ndetse burije.

Umuhanda nyabagendwa, urimo moto ebyiri, imwe itwaye umugenzi, indi iriho umumotari gusa, izi moto zose zifite ibara ritukura, iruhande rw'umuhanda, hari igipangu cy'umweru ndetse giteyeho ibiti, kuruhande rwacyo.

Imodoka ya kwasiteri yagenewe gutwara abagenzi ifite ibara ry'umweru ndetse icanye amatara, iragaragara ku gice cy'inyuma ndetse n'uruhande rw'iburyo, icanye amatara kuko n’ijoro iruhande rw'umuhanda hari abantu bari kugenda.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto imwe, iyi moto nta mugenzi ifite yicayeho motari gusa, yambaye kasike itukura ndetse n'ijire ifite ibara ry'umuhondo n'ubururu, iruhande rw'umuhanda hariho umurongo urombereje werekana ko hari ikorosi.

Umuhanda nyabagendwa, urimo imodoka imwe yigishwamo abanyeshuri ndetse iruhande rw'umuhanda hari inzira nyabagendwa ndetse hateye ibiti.

Imodoka yagenewe gutwara abagenzi mu Mujyi wa Kigali. Ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru. Irimo abantu bakeya. Imbere y'iyi modoka hari umunyonzi ufite igare.

Abagabo bafite amagare, ni benshi bose ni abanyonzi, imbere yabo hari guturuka imodoka icanye amatara ndetse iruhande rw'abo banyonzi hari icyapa cyanditseho inyuguti k g n'umubare gatanu.

Abamotari benshi baparitse iruhande rw'umuhanda, aba bamotari biganjemo abafite moto zifite ibara ritukura ndetse abenshi bambaye amajire afite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, inyuma yabo hari amatara ari kwaka, ashyirwa ku muhanda.

Imodoka yagenewe gutwara imizigo, ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi, ku gice cy'inyuma itwikirijwe n'ihema rifite ibara ry'icyatsi, imbere y'iyi modoka hari abantu bahagaze ndetse n'imifuka iharambitse.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka yagenewe gutwara abagenzi, bita kwasiteri ifite ibara ry'umweru, iruhande rwayo iri kubisikana na moto itwaye umugenzi ifite ibara ritukura.

Imodoka zicanye amatara ni nijoro ndetse izi modoka iruhande rwazo hari amatara ari kwaka ndetse aya matara ashyirwa ku muhanda kugira ngo amurikire abahisi n'abagenzi.

Imodoka itwara abagenzi mu ntara, iyi modoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'utudomo dufite ibara ry'icyatsi, icanye amatara bujire, iruhande rwaho hari abantu bari kugenda mu kayira k'abanyamaguru.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto ndetse n'imodoka itwara abagenzi, iyi modoka ni tagisi ifite ibara ry'umweru ndetse n'akabara k'umuhondo hasi.

Imodoka iri mu muhanda nyabagendwa igenewe gutwara imizigo, ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, iruhande rw'umuhanda hari kugenda abantu mu nzira y'abanyamaguru, iruhande rw'inzira y'abanyamaguru hateye ibiti.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ndetse na moto biri kujya mu cyerekezo kimwe, imodoka imwe ifite ibara ritukura yitwa hoho; indi ifite ibara ry'umweru ndetse n'agahondo gakeya, imbere yabo hari abamotari.

Abantu bari kuza harimo: abagore ndetse n'umusore umwe abandi bari kugenda hirya, iruhande rwabo hari intebe zagenewe kwicarwaho abantu ndetse bicayeho imbere yabo hari amapave ndetse ateyemo ubusitani.

Inzira zagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru gusa, ndetse iruhande rw'iyi nzira hari abantu bicaye ku ntebe zateganyijwe kwicarwaho, igihe umuntu ari kuruhuka. Ndetse iruhande rwazo hateye ibiti bitanga akayaga.

Ikibuga kinini giteyemo ubucaca, iruhande rw'iki kibuga hari udutebe abantu bicaraho ndetse iki kibuga gikikijwe n'ibiti birebire.

Ikibuga gikinirwamo basikete, iki kibuga gifite ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi, giciyemo imirongo y'umweru, imbere hari inkangara batsindiramo.

Ikibuga kinini giteyemo ubucaca, iruhande rw'ikibuga hari amatara ndetse n'intebe abantu bicaraho, inyuma y'izi ntebe hateye ibiti byinshi bitanga akayaga ku bakinnyi bari gukinira muri iki kibuga.

Icyapa giteye iruhande rw'inzira y'abanyamaguru. Iki cyapa gifite ishusho y'ubururu ndetse yanditsemo inyuguti pa. Pa yandikishije ibara ry'umweru ndetse hariho na bisi iki cyapa cyerekana ko ariho bisi zihagarara.

Icyapa gifite ishusho y'umweru ndetse cya mpandeshatu, kiteye iruhande rw'umuhanda. Ndetse inyuma y'iki cyapa hari igiti kirekire. Iki giti giteye mu busitani bwiza.

Icyapa gifite impande eshatu, gifite ishusho y'umweru ndetse gishushanyijemo umuntu uri kwambuka, iki cyapa gishyirwa ku muhanda aho abanyamaguru bambukira bava ku ruhande rumwe rw'umuhanda, bajya kurundi ruhande.

Ihuriro ry'imihanda ririmo ikorosi rikata rijya Kibugabuga, iruhande rw'umuhanda hari ibiti bihateye ndetse n'umurongo urombereje iruhande rw'umuhanda ufite ibara ry'umweru.

Icyapa gifite ishusho y'umweru, gifite umuzenguruko w'ibara ritukura. Iki cyapa gishyirwa ku muhanda cyerekana yuko urakata ibumoso bwawe. Iki cyapa gifite akambi kari mu ibara ry'umukara.

Icyapa gifite ishusho y'ubururu cyanditsemo inyuguti p ndetse yandikishijwe ibara ry'umweru, munsi yayo hashushanyijemo bisi, ishushanyije n'ibara ry'umweru iki cyapa cyerekana yuko hari parikingi.

Icyapa gifite ibara ry'umuhondo, cyanditsemo amagambo y'icyongereza abuza abantu cyangwa amenyesha kwitegura kugenda gakeya kuko imbere haba hari inkomyi.

icyapa cyerekana amerekezo, kiriho akambi kazamuka kerekana gukomeza werekeza kukanyaru i huye ndetse na muhanga hari akambi gakata kerekana kujya ruhango ndetse na kinazi

Icyapa kiri mu ibara ritukura cyanditseho sitopu gifite umuzenguruko wa mpande umunani ndetse ufite ibara ry'umweru inyuma iritukura.

Icyapa gifite ibara ry'umuhondo gishushanyijemo umunyamaguru uri kwambuka, iki icyapa ni icya mpande eshatu zifite umuzenguruko w'ibara ritukura, iki cyapa gishyirwa ahantu abanyamaguru bambukira.

Icyapa gifite impande enye zingana gifite ishusho y'ubururu ndetse n'umuzenguruko w'ibara ry'umweru, iki cyapa gishyirwa ahantu hari inzira abanyamaguru bemerewe kwambukiramo harangwa n'imirongo minini ibyibushye y'umweru.

Icyapa gifite ishusho y'umweru cya mpande eshatu, gifite umuzenguruko ufite ibara ritukura ndetse iki cyapa cyerekana ko imbere hari agasozi ndetse iruhande rw'iki cyapa hari inzu.

Icyapa giteye iburyo bw'umuhanda, iki cyapa gifite ishusho y'ubururu ndetse n'umuzenguruko w'umweru, iki cyapa gishyirwa ahantu ibinyabiziga bibanza kuzenguruka.

Icyapa gifite ishusho y'umweru ndetse gifite umuzenguruko w'umutuku uciyemo umurongo, iki cyapa gishushanyijemo bisi ishushanyije ibara ry'umukara, iki cyapa kibuza bisi gutambuka.

Icyapa gifite impande enye ndetse gisa n'igihagaze, iki cyapa gifite ishusho y'umuhondo kirimo imirongo ibiri y'umukara. Iki cyapa cyerekana y'uko imbere hafunganye.

Icyapa gifite ishusho y'umuhondo ndetse gishushanyijeho ibimenyetso byerekana yuko ari ukuzenguruka, iki cyapa gishyirwa ahantu hari umuhanda usaba kuzenguruka.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kiriho akambi, aka kambi gashushanyije mu ibara ry'umweru ndetse kerekana gukomeza aho ukabonye uhita ukomeza.

Icyapa gifite ishusho yera, gifite umuzenguruko w'umukara ndetse iki cyapa cyanditsemo inyuguti ebyiri ka ga ndetse n'imibare rimwe umunani icyenda.

Umuhanda nyabagendwa ufite ibice bibiri ndetse igice kimwe kiri gucamo ibikamyo ikindi gice nta kinyabiziga kiri kunyuramo ndetse ibi bice bibiri by'umuhanda birimo ibyapa byerekana ko ari i Gicumbi.

Icyapa kiri iburyo bw'umuhanda cyanditsemo inyuguti pa cyandikishijwe ibara ry'umukara, ndetse gifite ishusho y'umweru ifite umuzenguruko w'umutuku.

Inzu ifite ibara ry'ubururu ndetse iriho icyapa kigira kiti; amakaro n'ibikoresho by'ubwubatsi. Imbere y'iyi nzu, hari imodoka ihagaritse ifite ibara ry'ubururu.

inzu y'igorofa isize irange ry'umuhondo iragaragara ku bice bibiri ndetse iyi nyubako ifite amadirishya menshi, imbere yayo haparitse imodoka ifite ibara ritukura.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ifite amabati y'umutuku, inyuma yayo hari indi nzu y'igorofa ifite ibara ry'umweru ndetse n'indi y'igorofa yubatswe mu buryo bumwe n'iyo.

Umuhanda nyabagendwa uparitseho moto ifite ibara ritukura, ndetse iyi moto yicayeho umuntu inyuma yayo hari imodoka iparitse inyuma y'ibyatsi, ndetse uyu muhanda uteyeho icyapa cyanditseho kaka gatanu icyenda.

Urupangu rufunguye rufite ibara ry'icyatsi. Rufite uruzitiro ruteyeho sima. Ndetse hari umugabo urikumanuka imbere y'uru rupangu mu muhanda wa kaburimbo. Hirya hari inzu ndende y'igorofa yubakishije amatafari ahiye, ndetse iteyeho irangi ry'umuhondo ku gice cyo hejuru.

Umuhanda urimo ibitaka ndetse uri kugendamo moto itwaye umugenzi; iruhande rw'uyu muhanda hari umugore uhetse umwana ndetse ufite umutaka utukura iruhande rwe haparitse imodoka.

Inzu zubatse mu buryo bwiza ndetse zubatse ahantu mu kibaya hateye ibiti, aha ni i Remera ndetse ibi biti ni birebire byiganjemo ibisumba amazu.

Umuhanda urimo moto iriho umumotari gusa, yambaye ijire ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, iyi moto ifite ibara ritukura ndetse yambaye na kasike y'umutuku.

Inzu ikoreramo banki ya Kigali, iyi nzu ifite umuryango ufunguye ndetse imbere harimo ikirugu, hanze hejuru y'umuryango hariho icyapa kinini gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu cyanditseho banke ofu Kigali.

Umuhanda w'amabuye. Uyu muhanda ibumoso bwabo hari rigore cyangwa umuyoboro w'amazi, iruhande rw'uyu muyoboro hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse cyanditseho nimero cumi na rimwe.

Umuhanda nyabagendwa uririho, aho abanyamaguru bambukira, harangwa n'imirongo ibyibushye, ifite ibara ry'umweru. Uyu muhanda urimo umukobwa uri kwambuka uhetse igikapu cy'umweru. Ndetse harimo imodoka ebyiri, imwe igaragara neza, n'indi igaragara ku gice cy'inyuma.

Umuhanda nyabagendwa urimo igare, iruhande rw'iri gare harimo ndetse iri gare rikwambuka muri zebura aho abanyamaguru bambukira.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ifite ibara ry'umweru yanditseho Rwanda, iyi modoka irapfutse uretse aho shoferi yicara, inyuma y'iyi modoka hari izindi modoka zirimo iya polisi.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka icanye amatara igaragara ku gice cy'imbere, uyu muhanda uri munsi y'ikiraro giherereye Kicukiro aho bita Santire, hejuru yacyo hari undi muhanda.

Umuhanda nyabagendwa uri kwambukamo abantu, aba bantu bari kwambukira ahantu habugenewe, haciyemo imirongo y'umweru ndetse imbere yabo hari moto ebyiri ndetse ziri kwambuka bitemewe.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto zose ziri kujya mu cyerekezo kimwe. Ziri kujya mu cyerekezo cy'ibumoso, aho kujya iburyo. Iruhande rw'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikamyo. Iyi kamyo ifite amabara y'umweru n'ubururu. Iruhande rw'umuhanda, hari itara, ndetse, hateye, n'ibyatsi.

Umuhanda nyabagendwa urimo inzira abanyamaguru bambukiramo ndetse hari itara ryerekana ko ibinyabiziga byemerewe gutambuka, abagenzi barahagarara.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka nyinshi ziri kuzenguruka umuhanda ndetse uyu muhanda uriho ibyapa bigiye bitandukanye, hateye ibiti iruhande rw'uyu muhanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto zicanye amatara, uyu muhanda urimo imirongo ibyibushye aho abanyamaguru bambukira igihe bashaka kuva mu cyerekezo kimwe baza mu kindi, iruhande rw'uyu muhanda hateye ibiti byinshi.

Mu muhanda nyabagendwa urimo moto nyinshi ndetse uyu muhanda urimo amatara yerekana y'uko ibinyabiziga bigomba gutambuka, aya matara ari kwaka icyatsi, iyo yatse umutuku ibinyabiziga birahagarara abagenzi bagahita.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto imwe ndetse inyuma yayo hari imodoka z'amakamyo nyinshi zitwara imizigo, iruhande rw'uyu muhanda hari ipoto rirerire, ririho itara ndetse n'iririho amasinga atwara amashanyarazi.

Umuhanda uri kwakamo amatara menshi ndetse ari ku murongo ni nijoro, uyu muhanda urimo imodoka imwe igaragara ku gice cy'inyuma ndetse mu kindi gice cy'umuhanda hari guturukayo imodoka iri kwaka amatara.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ndetse na moto nyinshi. Uyu muhanda ukikijwe n'ibiti ndetse harimo itara ryerekana y'uko ibinyabiziga bigomba guhita.

Umuhanda nyabagendwa urimo bisi irimo abantu bake, iyi bisi yagenewe gutwara abantu mu mujyi wa Kigali ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, imbere yayo hari umugabo ufite igare ndetse iruhande rwaryo hateretse umufuka.